Abana ubona ko bahurijwe ahantu hamwe, kugira ngo babashe kwigishwa. Ni byiza ko abana bose bajyanwa mu mashuri y'inshuke, kugira ngo babashe guhabwa uburere bw'ibanze maze bazabashe gukura bajijutse.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke aho bari gutozwa n'umwarimu wa bo bakina imikino itandukanye, ni ibyiza ko abanyeshuri bakiri batonya nk'abana bajyanwa mu mashuri y'incuke kugira ngo bitabweho maze bakure bajiju.

Umubyeyi ubona ko ari kwigisha abana, ari kubakoresha imikino itandukanye, kugira ngo babashe kujijuka, ni byiza ko abana bakiri batoya bose bagana amashuri y'incuke, kugira ngo babashe gujijuka kandi bakure bafite ubwenge.

Abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri bakiri abana batoya, aho bose bari gusoma ibitabo kugira ngo babashe kwiyungura ubwenge bwo gusoma, ni byiza ko abanyeshuri batozwa gusoma ibitabo hakiri kare kugira ngo babashe gusoma neza haba ibihekane ndetse n'inyajwi.

Abana ni byiza ko bashyirwa mu irerero kugira ngo batozwe imyitwarire bakiri abana, maze babashe no kwigishwa ibintu bitandukanye maze bajijuke. Ni byiza ko abana bose bajyanwa mu irerero kugira ngo bitabweho.

Ni byiza ko abanyeshuri bose bakiri batoya bajyanwa mu mashuri y'incuke kugira ngo abana bakure bazi neza ibyo bagiye kwiga nko mu mwaka wa mbere, kuko bibafasha kujijuka bityo bigategura n'amasomo yabo azaza.

Abana ubona ko bari kumwe n'umubyeyi wabo, aho bari mu irerero, bari gutozwa uburere ndetse banigishwa ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo bazabashe gukura bajijutse, ni byiza ko abana bose bajyanwa mu irerero.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke, aho baba bakiri abana batoya, aho babanza kujyanwa kugira ngo bahabwe uburere ndetse n'ubumenyi buzabafasha kujya kwiga mu wa mbere bityo bakure bazi ubwenge kandi bajijutse.

Abanyeshuri ubona ko bari mu gihe cyo gukina, aho bari kwidagadura bakina kugira ngo babashe kwidagadura, ni byiza ko abanyeshuri bagira umwanya wo gukina, kandi n'abanyeshuri batari ku ishuri ni byiza ko bagana ishuri kugira ngo biyungure ubumenyi.

Ishuri ubona ko ririmo intebe nyeya ariko ryifashishwa igihe abanyeshuri bari kwiga, ni byizayiza ko hashyirwamo intebe ziringaniye kandi zihagije, kugira ngo abanyeshuri babashe kubona intebe bicaraho igihe bari kwiga maze batsinde.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri, kugira ngo babashe guhabwa uburere ndetse n'uburezi, kugira ngo bazakure bajijutse, maze Igihugu kigire abantu bajijutse, kandi kibashe gutera imbere.

Ikigo cy'amashuri ubona ko kimeze neza ariko kibura ubusitani bwiza, aho abanyeshuri batandukanye bari gutembera, bari mu gihe cyo kuruhuka. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi maze bazabashe gukura bajijutse.

Akantu karimo ibikoresho bitandukanye harimo amakaramu ndetse n'ibindi byose byifashishwa mu kwandika, aho abanyeshuri babyifashisha igihe bari kwandika, gushushanya bityo bikaborohereza, ni byiza ko abanyeshuri bagira ibikoresho bitandukanye bitewe n'ibyo biga.

Ni byiza ko amashuri ashyirwaho ibikoresho by'imyicundo abanyeshuri bashobora kwidagadurira, kugira ngo babashe kuruhuka kandi bishimishe, bityo bakomeze amasomo yabo kandi babashe gutsinda neza, bityo bazamure ubwenge bwabo.

Ikigo ubona ko cyubatse neza, cyakira abanyeshuri batandukanye haba ab'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye kugira ngo bakomeze amasomo yabo ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bige neza batsinde.

Ibyapa n'ibishushanyo ni ingirakamaro mu ishuri kuko bifasha abanyeshuri kwiga kandi bakabona ibyo bigishwa bihora ku byapa ndetse n'ibishushanyo; bityo bigatuma babifata vuba kuko baba bamye babibona impande yabo.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse neza, haba harimo abanyeshuri batandukanye baje kwiga, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri, kugira ngo bahabwe ubumenyi bityo bizabafashe mu myigire yabo ndetse no kubona akazi, maze babashe kwiteza imbere.

Ni byiza ko abanyeshuri bagana ishuri ariko bakabasha kubona amazi meza banywa cyangwa bakoresha mu yindi gahunda zitandukanye, kuko amazi y'ikigega aba arimo imyanda, ni byiza ko asukurwa kugira ngo abana bayakoreshe asukuye.

Abanyeshuri bakiri batoya ubona ko bari mu matsinda ndetse bari kugerageza gusoma kandi bafatanyije, nibyiza ko abana bakiri batoya batozwa kwigira mu matsinda kugira ngo babashe kungurana ubumenyi maze babashe kwiga neza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko gifite igikoni aho batekera ibyo kurya, ni byiza ko buri kigo cyose kigira ahantu heza ho gutekera ibiryo kugira ngo abanyeshuri babashe gufata ifunguro kandi rifite ubuziranenge, maze babashe kwiga neza.

Abana ubona ko bari ku ishuri, aho bari guhabwa ifunguro kugira ngo babashe gukomeza amasomo yabo, ni byiza ko abana nk'aba bakiri batoya bahabwa ibiryo birimo indyo yuzuye kugira ngo bakomeze gukura neza kandi bibarinde kugwingira.

Isomero aho ryifashishwa n'abanyeshuri igihe bari gusoma ibitabo, ni byiza ko abanyeshuri bagana amasomero kuko ari isoko y'ubumenyi, bakitoza gusoma bakiri batoya kuko ariho bakura ubumenyi kandi bubafasha mu kwagura imitekerereze yabo.

Ubwiherero ubona ko bwifashishwa n'abanyeshuri igihe bari ku ishuri, ni byiza ku ubu ubwiherero bwitabwaho kugira ngo bugirirwe isuku, maze burinde kuba hoshobora guterwa indwara zitandukanye ziturutse ku banyeshuri babukoresha batandukanye.

Ahantu ubona ko hari ubwiherero, ni byiza ko amashuri yaba amakuru ndetse n'ayisumbuyeho agira ubwiherero kugira ngo abanyeshuri babone ahantu bajya . Ni byiza ko bugirirwa isuku ku buryo buba bwarinda indwara zitandukanye.

Ikigo cy'amashuri ubona ko kirimo ikibuga gikoreshwa igihe bari gukina imikino y'amaboko, aho biba byiza ko ibigo by'amashuri bishyirwamo ibibuga kugira ngo abanyeshuri na bo babashe kwidagadura bakina maze bakomeze kwiga neza.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa n'abanyamibare aho mwarimu abyifashisha igihe ari kwigisha abanyeshuri. Ni byiza ko abarimu bahabwa ibikoresho bifashisha mu gihe bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza.

Ibitabo bitandukanye kandi ubona ko bipanze neza ubona ko ari mu isomero, ni byiza ko abanyeshuri bagana isomero kuko ari isoko y'ubumenyi bwimbitse kandi bakabona amakuru yose bifuza, ni byiza ko abanyeshuri bashishikarizwa gusoma.

Mu ishuri ni byiza ko hashyirwa ibishushanyo ndetse n'ibyapa bifasha abanyeshuri kuba ba kwiga kuko haba hariho ibintu bahamya babona buri munsi kugira ngo babashe kubifata mu mutwe kandi bige neza. Ni byiza ko abanyeshuri bashyikirizwa ibi byapa bikamanikwa mu ishuri.

Ikigo cy'amashuri aho hari abanyeshuri batandukanye biga mu mashuri abanza, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe gukuza ubumenyi, maze babashe kujijuka, maze bazabone uko biteza imbere.

Ikigo cy'ishuri ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi butandukanye, ni byiza ko abanyeshuri bose bajya ku ishuri kugira ngo babashe kujijuka maze n'igihugu gitere imbere gifite abantu bajijutse.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye, kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kwiga neza batsinde. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri, kugira ngo babashe guhabwa amasomo yabo kandi batsinde neza.

Ishuri ubona ko ryigirwamo n'abanyeshuri, aho harimo ibitabo bitandukanye. Ni byiza ko ibitabo bijyanwa mu isomero, kandi ishuri rikabasha gutunganywa neza kugira ngo babashe kuhigira, kandi babashe kugira ubumenyi bwiza.

Ni byiza ko mu ishuri hashyirwaho ibyapa, kuko bifasha abanyeshuri kugira ngo bige kandi babifate, cyane cyane abanyeshuri bo mu mashuri abanza, aho haba hashushanyijweho ibintu n'uburyo byitwa, kugira babashe kubifata vuba.

Ikibaho gifasha mwarimu kwandika note z'abanyeshuri kugira ngo abanyeshuri na bo babashe kubona ibyo mwarimu yabandikiye, bityo kibafashe kugira ngo bige neza. Ni byiza ko amashuri y'ibigo yose aba arimo ibibaho.

Umunyeshuri ubona ko ari kujya ku ishuri ubona ko yegereye ikigo hari n'abandi banyeshuri, ni byiza ko abanyeshuri bose bajya ku ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi maze bazabashe gukura bajijutse n'igihugu kigire abantu bajijutse.

Ishuri ubona ko ririmo abanyeshuri harimo abafite mudasobwa bari kwihugura. Ni byiza ko n'ibikoresho bitandukanye harimo nk'amasahani n'ibikombe, bibasha gushyirwa ahantu habugenewe, kugira ngo bibashe kugira isuku.

Injerikani zigira uruhare mu kuvoma amazi igihe zitaba zari bwasaze, ni byiza ko zikorerwa isuku kugira ngo zibashe kugira amazi meza kandi zivoma amazi meza yujuje ubuziranenge, tuzisukure kandi tuzitaho dukoresheje isabune kugira ngo tubashe kugira ubuzima ntidukoresha ya mazi.

Ikigo cy'amashuri aho cyakira abanyeshuri batandukanye b'ingeri zose, ni byiza ko abanyeshuri bagana ishuri kandi bose bakitabira kwiga kuko ari ingirakamaro kandi bishobora gutuma bajijuka.

Ikigo cy'imyuga cya Kageyo, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bakomeze imyuga yabo kandi bihugure neza, kugira ngo bazabone uburyo bwo kwihangira umurimo, maze biteze imbere bibafashe kugira ngo bagire icyo bigezaho.

Ikibaho ubonako cyifashishwa mu kwiga aho hariho ibintu bitandukanye hariho ahigirwa umuziki ndetse n'imibare, ni byiza ko amashuri agira ibibaho bihagije byo kwigirwaho kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye giherereye i Nyanza, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe gukuza imitekerereze yabo ndetse bagure n'ubumenyi bwabo, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana iki kigo.

Abanyeshuri ubona ko bari inyuma y'ishuri ubona ko bagiye kwigishirizwa hanze, ni byiza ko mwarimu afata akanya akajyana abanyeshuri hanze kugira ngo bababe ari ho bigishirizwa kugira ngo babashe gufata akayaga kandi banige neza.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri, aho bambaye neza kandi ubona ko kuba ari abanyeshuri bajijutse. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kandi bakajya ku bigo bitanga uburezi bufite ireme, kugira ngo bakure bajijutse.

Abanyeshuri ubona ko bari kujya ku ishuri igihe cyo kwiga cyageze. Ni byiza ko abanyeshuri bajya ku ishuri kandi bakagenda mu modoka kugira ngo babashe kugeraho vuba kandi badakererewe. Ni byiza ko abanyeshuri biga badataha, bagomba kwiga neza kandi bagatsinda.

Abanyeshuri babona ko bari mu ishuri aho bari kwigishwa banahagaze imbere kandi bahabwa n'andi mahugurwa atandukanye, ni byiza ko abanyeshuri bigishwa kandi bakagira n'umwanya wo kwigishwa ku bindi bintu bisanzwe byo mu buzima bwa buri munsi.

Abana ubona ko bateranirijwe ahantu hamwe bari mu nama, kugira ngo babashe kwigishwa kuri gahunda zindi zitandukanye atari izo mu ishuri gusa. Ni byiza ko abanyeshuri, bahabwa n'izindi nama, ndetse zo mu buzima busanzwe, kugira ngo bakomeze gukura bajijutse.

Abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri, aho bari guhabwa amahugurwa atandukanye kugira ngo babashe kwiteza imbere, maze babashe kwiga neza, batsinde neza. Ni byiza ko abanyeshuri bose bajya mu ishuri kandi bagahabwa n'amahugurwa.

Abanyeshuri ubona ko, bicajwe hanze kugira ngo bahabwe inama ku bijyanye n'imyitwarire, ndetse n'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe. Si ngombwa ko abanyeshuri bigishwa ibyo mu ishuri gusa, ahubwo biba byiza banigishijwe ibijyanye n'ubuzima bwo hanze.

Abanyeshuri ubona ko borojwe ihene kugira ngo babashe kwiteza imbere, ni byiza ko abanyeshuri bajya ku ishuri kandi bakanafashwa mu kuba bakorozwa ihene kugira na bo ubwabo babashe kwiteza imbere, maze babone uko bajya bigurira na bo ubwabo ibikoresho batabanje kugora ababyeyi babo.

Ahantu ubona abarimu baruhukira ariho bategurira ibintu bitandukanye, ubona ko n'abanyeshuri bashobora kuhifashisha igihe bari kwiga, ni byiza ko abanyeshuri babona ahantu heza ho kwigira n'abarimu bakabona ahantu heza ho gutegurira.

Abanyeshuri ubona ko bari kubyina imbyino gakondo, ubona ko biga ku kigo ariko hagerwa igihe bagashyirwa imbere kugira ngo bidagadure, banitoze umuco nyarwanda kugira ngo bakomeze kuba bamwe mu bashyigikira imbyino gakondo.

Umwarimu ubona ko ari kwigisha abanyeshuri, aho ari kwandika ku kibaho, ni byiza ko abanyeshuri bahabwa umwarimu uzi kwigisha kandi hari n'ibibaho ashobora kwifashisha mu gihe ari kwigisha kandi n'abanyeshuri bakabasha gusobanukirwa kandi bakanakurikira.

Abanyeshuri ubona ko bari mu kigo bana ko bitabiriye inama kugira ngo bahabwe inama zitandukanye ndetse bahindure n'imyitwarire hafatwe n'ingamba zishobora gukomeza kubafasha kongera amanota yabo ndetse n'imitsindire yabo.

Abanyeshuri ubona ko bamaze gukina umukino w'amaboko, aho bamaze gukina kandi bagiye gukina neza cyane, ni byiza ko abanyeshuri bagira umwanya wo gukina kugira ngo bidagadure, banagorore ingingo zabo.

Ikigo cy'amashuri cya Save, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe amasomo maze bigishwe bahabwe ubumenyi butandukanye kugira ngo bazabashe kwiteza imbere mu gihe kizaza. Ni byiza ko aba banyeshuri babasha kwitabwaho ndetse n'abandi bakagana iki kigo.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ubona ko bashyizwe ahantu hamwe kugira ngo bahabwe inama, ndetse no kugira ngo bidagadure, ni byiza ko abanyeshuri bafata umwanya kugira ngo baganirizwe ku bigendanye n'ubuzima, kugira ngo babashe gukura bazi uburyo bwo kugira ubuzima bwiza.

Abana ni byiza ko bagaburirwa ibiryo byiza kandi birimo intungamubiri, kandi birimo indyo yuzuye, kugira ngo babashe gukuza, kandi banakure vuba bityo bige neza kandi batsinde.

Icyumba cy'amashuri ubona ko kirimo ibikoresho bitandukanye, ikibaho, ibitabo ndetse n'ibishushanyo. Ni byiza ko abanyeshuri babona ibishushanyo kandi hakaba harimo n'ikibaho kugira ngo babashe kwiga biboroheye kandi babashe gutsinda neza.

Abanyeshuri ubona ko basuwe na radiyo ndetse na televiziyo y'u Rwanda kugira ngo baganirizwe ku bibazo bahura nabyo igihe bari ku ishuri, ni byiza ko abanyeshuri basurwa n'abanyamakuru kugira ngo babagezeho ibyifuzo byabo.

Abanyeshuri ubona ko bahuriye ahantu hamwe bari guhabwa inama ku bigendanye n'ubuzima kugira ngo bakomeze bagire ubuzima, ni byiza ko abanyeshuri bakoreshwa inama kugira ngo bigishwe kuri gahunda zitandukanye kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kwiteza imbere binyuze mu kwiga, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe gukuza imitekerereze yabo n'urwego rw'ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri cya notere dame cya Karubanda giherereye muri Huye, aho gifasha abanyeshuri mu kwiga ndetse no kujijuka. Aho abanyeshuri bakigana bose batsinda neza. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana iki kigo.

Abanyeshuri ubona ko bagiye ku ishuri. Ni byiza ko abanyeshuri bose bajya ku ishuri kandi bakagenda mu modoka zibafasha kugira ngo bagere ku ishuri kugira ngo babashe kwiteza imbere, maze bahabwe ubumenyi bubafashe kwiteza imbere.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse ahantu heza kandi cyubatse neza, cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi, maze igihugu nacyo gitere imbere, gifite abantu bajijutse.

Ikigo cy'amashuri ni byiza ko gishyirwamo ibibuga bitandukanye kugira ngo bifashe abanyeshuri kwidagadura no gukora imyitozo ngororamubiri, kuko biba byiza ku masomo yabo. Umunyeshuri mwiza utsinda ni uwakoze imyitozo ngororamubiri kandi akanidagadura.

Abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri ari abanyeshuri bo mu mashuri abanza aho bari kwiga, ni byiza ko abanyeshuri bahabwa intebe zihagije kandi n'ibikoresho bihagije kugira ngo babashe kwiga ndetse n'abandi banyeshuri bagane ishuri kugira ngo bose bajijuke.

Ikigo ubona ko cyubatse neza, ari ikigo cya kaminuza cyakira abanyeshuri barangije ayisumbuye. Kugira ngo bakomeze amasomo yabo. Ni byiza ko ibi bigo byakira abanyeshuri bose kugira ngo bakomeze amasomo yabo, maze bazabashe kwiteza imbere.

Umunyeshuri ubona ko ari gusoma mu isomero. Ni byiza ko abanyeshuri bose bashishikarizwa gusoma ibitabo kugira ngo bazamure ikigero cy'ubwenge bwabo kuko bibafasha kwagura imitekerereze yabo bityo bakabona n'ubumenyi buhagije.

Abanyeshuri aho bari kumwe n'abarezi babo, aho bari kwifotoza ifoto y'urwibutso, ni byiza ko abanyeshuri bose bajya ku ishuri kugira ngo babashe kujijuka maze baziteze imbere kugira ngo igihugu kigire abanyeshuri bafite ireme ry'uburezi.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse neza ariko kiri ahantu hatameze neza, ni byiza ko ibigo by'amashuri bibasha gushyirwa ahantu heza kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga kandi batuje n'amasomo yabo bayige neza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko gifite n'ahantu abanyeshuri bakinira, ni ibyiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe kwiteza imbere, aho umunyeshuri ashobora kwiga kandi agatsinda akazabona akazi maze akanakura ajijutse.

Umwarimu ubona ko ari kwigisha abanyeshuri, aho ari kubaha ibyo gukora. Ni byiza ko abarimu bahabwa ibikoresho bitandukanye, harimo ingwa kandi bafite n'ibibaho n'ibikoresho bari bwifashishe nk'ibitabo kugira ngo bigishe neza.

Ikigo cyiza ubona ko cyubatse neza, ni ibyiza ko ibigo by'amashuri bigomba kuba hariho ibigega, bifata amazi kugira ngo abanyeshuri babashe kubona amazi akwiriye, ndetse babone n'ayo gukoresha bityo biborohere mu myigire yabo.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri, ariko bari kubyina imbyino gakondo, abanyeshuri ni byiza ko, bahabwa umwanya wo kubyina, kandi bakitoza umuco uranga igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bakure banogeye u Rwanda.

Abantu ubona ko hari kumwe mwarimu ndetse n'undi ushinzwe gukora intebe kugira ngo bakomeze basane intebe, maze zifashishwe abanyeshuri bari kuzigiraho, ni byiza ko haboneka intebe zihagije kandi zimwe zigasanwa kugira ngo dukomeze kugira uburezi bwiza.

Ikibaho ni ingirakamaro mu ishuri, kuko cyifashishwa bandikaho note, kugira ngo mwarimu abone uko yigisha abanyeshuri ndetse n'abanyeshuri babone uko bandika, ni byiza ko amashuri yose agira ibibaho.

Ni byiza ko abanyeshuri bagera igihe cyo kwidagadura bagakina kugira ngo babashe kuruhuka kandi ni byiza ko ibigo bigomba gushyirwamo ibibuga bitandukanye by'imikino itandukanye, kugira ngo abanyeshuri babashe kwidagadura.

Abanyeshuri ubona ko bagiye gukora ikizamini, aho bari guhabwa aho bari bukorere. Ni byiza ko abanyeshuri bahabwa ikizamini kugira ngo babashe gusuzumwa ikigero bagezeho bitewe n'ibyo bigishijwe.

Ku ishuri ni ngombwa ko hashyirwa ibikoresho bitandukanye kugira ngo bifashe abanyeshuri mu kwiga, aho haba hari igikoresho kigaragaza ibice byose by'umubiri amagufa kugira ngo babashe kwiga babireba maze babashe gutsinda.

Abanyeshuri ni byiza ko bahabwa ibibuga byo gukiniraho imyitozo ndetse n'indi mikino y'amaboko kugira ngo babashe kwidagadura ndetse no kwishimisha, kuko bibafasha mu masomo yabo ndetse no gukomeza amasomo yabo.

Icyumba ubona ko kigirwamo n'abanyeshuri aho baba bahawe ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo ibigaragaza amashusho baba bari kureba videwo zigaragara kugira ngo babashe kwiga neza kandi babisobanukirwa.

Abanyeshuri ubona ko bari gufata ifunguro kugira ngo bakomeze amashuri yabo kandi bige neza igihe bari kwiga, ni byiza ko abanyeshuri bafata ifunguro kandi bagahabwa n'umuneke kugira ngo babashe kwiga neza maze batsinde.

Isomero ni ahantu hambere havomwa ubumenyi bwinshi ugereranyije n'ahandi, ni byiza ko abanyeshuri bagana isomero kugira ngo basome ibitabo bitandukanye maze babashe kwagura imitekerereze yabo ndetse n'ubumenyi.

Umwarimu ubona ko afite ibitabo bitandukanye yifashisha kugira ngo yigishe abanyeshuri maze babashe kubona amanota meza, ni byiza ko abarimu babona ibikoresho bihagije cyane cyane ibitabo kugira ngo bibashyigikire igihe bari kwigisha abanyeshuri.

Abanyeshuri ubona ko bahurijwe ahantu hamwe kugira ngo bahabwe inama ndetse bahindure n'imyitwarire, ni byiza ko mu kigo hakorwa inama kenshi gashoboka kugira ngo abanyeshuri babashe kuba bakwisubiraho cyangwa bazamure ikigero cy'imitsindire yabo.

Ikibaho ni ingirakamaro cyane mu gihe umuntu ari kwiga cyangwa abanyeshuri bari kwiga, kuko cyandikwaho ingengabihe y'uburyo bazajya biga kandi kikanifashishwa mu gihe bari kwandika, mu gihe na mwarimu ari kwigisha.

Ishuri ni byiza ko hashyirwamo ikibaho kugira ngo gifashe abanyeshuri ndetse na mwarimu mu gihe bari kwiga, aho umwarimu akifashisha yandikaho note z'abanyeshuri ndetse n'abanyeshuri bakabona uko bandika ibyo mwarimu yabahaye.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse neza aho hahagaze umwana ubona ko yaje kwiga mu mashuri y'inshuke, ni byiza ko ibigo nk'ibi ngibi byakira abanyeshuri beza kandi bahagije kugira ngo babashe kuzamura ubumenyi bwabo, maze babashe gukura bajijutse.

Ikibaho gifasha abanyeshuri mu kwiga aho mwarimu akifashisha yandika kugira ngo babone uko biga. Ni byiza ko amashuri yose ashyirwamo ibibaho kandi bikitabwaho kugira ngo bikorerwe isuku, kandi bibe byanashobora kuba byagaragaza inyuguti igihe zanditseho.

Inyubako nziza cyane kandi igeretse, aho yigaho abanyeshuri ba Kaminuza ya Huye, aho bifashishwa kugira ngo babashe kuzamura ubwenge bwabo, kandi bahabwe n'ubumenyi buzabafasha kubona akazi.

Ikigo ubona cyubatse neza kandi gifite ubusitani bwiza, ubona ko ari ikigo cya kaminuza cyakira abanyeshuri batandukanye barangije ayisumbuye kugira ngo babashe kuminuza amasomo yabo kandi bazabone akazi babashe kwiteza imbere.

Ahantu ubona ko hari uburiri bushashe neza ndetse n'ibikoresho bitandukanye bindi harimo amazi, inkweto ndetse n'ibindi bikoresho. Ni byiza ko abanyeshuri barara ahantu heza kandi hateguwe neza kuko bigira uruhare mu myigire yabo.

Abanyeshuri babiri ubona ko bari mu rugo, ubona ko biga kaminuza, aho baba bari mu rugo bari gukoresha amashini undi ari gukoresha ikayi, aho baba bari gusubiramo amasomo. Ni byiza ko abanyeshuri n'igihe bageze mu rugo babasha gusubiramo amasomo yabo.

Ikigo cya kaminuza gitanga ishuri ry'ubumenyi ngiro, ni byiza ko abanyeshuri bose bajya kuminuza ibijyanye n'imyuga kugira ngo babashe kuzamura ikigero cyabo cy'ubumenyi, maze bazabashe kwihangira umurimo kandi biteze imbere.

Ahantu ubona ko ari kuri kaminuza y'u Rwanda hariho icyapa kigaragaza ko bibujijwe kuhanywera itabi, ni byiza ko abantu banywa itabi banywera itabi ahantu hategereye abantu kugira ngo ribe ritabahumanya.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kwiteza imbere, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi, maze bajijuke, igihugu kigire abantu bajijutse.

Icyapa kigaragaza ko hari ikigo cya Kaminuza y'u Rwanda, ni byiza ko abanyeshuri bagana Kaminuza y'u Rwanda kuko itanga uburezi bwiza kandi bufite ireme, maze abanyeshuri bahize bagahabwa impamyabumenyi.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse neza, cyakira abanyeshuri bo muri kaminuza kugira ngo babashe gukomeza amasomo yabo, aho baba barangije ayisumbuye. Ni byiza ko ibi bigo bya kaminuza, bishyirwamo ibikoresho bitandukanye kandi byifashisha abanyeshuri mu myigire yabo.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kuziteza imbere, ni byiza ko abanyeshuri bagana ibigo by'amashuri kandi bifite uburezi bw'ireme kugira ngo babashe kwigishwa neza kandi batsinde.

Abanyeshuri aho bari mu bushakashatsi ku bigendanye n'ibice by'umubiri, aho bifashisha ibice bigaragaza amagufa y'umubiri kugira ngo babashe kwiga ibyo babasha kubona kugira ngo babashe gukuza ubumenyi bwabo, ndetse bazabone uko babikora bageze mu kazi.

Icyumba ubona uko kirimo ibikoresho bitandukanye cyifashishwa n'abanyeshuri ba kaminuza kugira ngo bakore ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye ndetse n'ibindi bintu bitandukanye babashe kwiga neza, ni ngombwa ko babona ibikoresho bihagije kandi bagakorera ahantu heza.

Abanyeshuri ubona ko biga Kaminuza y'u Rwanda, ubona ko bari mu kigo mu gihe baba bari kuruhuka basubira no mu rugo kugira ngo bakomeze amasomo yabo igihe gikurikiyeho, ni byiza ko abanyeshuri bahabwa umwanya wo kuruhuka kugira ngo babashe gutegura neza ndetse babone n'ifunguro ryo kurya.

Ikigo cy'amashuri cya kaminuza aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe amashuri ya bo kandi babashe kuyasoza neza, ni byiza ko abanyeshuri bose batsinze neza kandi barangije ayisumbuye bagana ibigo bya kaminuza kugirango baminuze amasomo ya bo.

Abarezi aho bakoze inama kugira ngo bige ku buryo bwazamura uburezi burambye, aho bari gukoresha inama n'umuzungu kugira ngo abazamure urwego rw'ubwigishirize bwabo kugira ngo babashe guteza imbere ireme ry'uburezi, maze babashe guteza imbere abanyeshuri.

Icyumba cyo muri Kaminuza y'u Rwanda, aho cyifashishwa mu gukora ubushakashatsi butandukanye, ni byiza ko Kaminuza zigira ibyumba byo gukorerwamo ubushakashatsi kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza.

Ikigo cy'imyumba cya Tumba cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi ngiro, kandi babashe no kwitabwaho, maze ibyo bize bazabyifashishe mu buzima busanzwe babona akazi kandi biteze imbere.

Inzu ubona ko yubatse neza, aho yakira abana kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kurerwa neza kandi bakure bafite ubumenyi kandi bajijutse. Ni byiza ko abana bose bagana mu mashuri kugira ngo bahabwe ubumenyi.

Icyumba ubona ko kirimo ibikoresho bitandukanye imyenda ndetse n'ibindi bikoresho, aho hariho telefone ndetse n'ibindi bikoresho, aho byifashishwa n'abanyeshuri igihe bari mu rugo batashye, abanyeshuri ba kaminuza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye, kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe gutsinda neza. Ni byiza ko abanyeshuri babasha kwiga neza kandi bagahabwa ubumenyi buhagije, kandi n'abatiga bose bakaza ku ishuri.

Abanyeshuri ubona ko bari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi. Aho bari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi, kugira ngo bige neza ibijyanye n'ubu buvuzi bazashobore kuvura, aho biga muri kaminuza. Biba byiza ko bahabwa ibikoresho bihagije.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kwiteza imbere, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi, kandi buzabafashe kubona akazi maze biteze imbere.

Umunyeshuri ubona ko yiga ataha yiga muri kaminuza, aho aba afite ibikoresho bitandukanye harimo amakayi ndetse n'ibindi bikoresho yifashisha yiga, ni byiza ko bagira aho baba ariko hameze neza kandi hitaweho kuko bigira uruhare mu myigire yabo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa bari mu bushakashatsi, aho bari baba bari gushakashaka ku ndwara ndetse n'imiti rusange igihe abanyeshuri bari kwiga. Ni byiza ko abanyeshuri bagira ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gihe bari mu bushakashatsi.

Ishuri ubona ko ryakira abanyeshuri ba kaminuza, harimo ibikoresho bitandukanye kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza kandi batuje, ni byiza ko amashuri ya kaminuza ahabwa ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kwiga neza.

Icyumba ubonako cyifashishwa na mwalimu igihe ari mu rugo kugira ngo abashe gutegura neza amasomo azigisha, bityo binamworohere na we ubwe gusubiramo ibyo azigisha, ni byiza ko abarimu na bo bagira ahantu baba heza kandi hatunganye kandi bakagira na mudasobwa n'ibindi bikoresho bifashisha.

Icyapa kigaragaza ko hari ikigo cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho yakira abanyeshuri batsinze neza kandi barangije amashuri yisumbuye kugira ngo bakomeze amasomo yabo kandi babashe kuyaminuza, bityo babone uko biteza imbere.

Icyumba ubona ko cyubatse neza kandi kirimo ibikoresho bitandukanye harimo nk'intebe, ubona ko cyifashishwa n'abanyeshuri ba kaminuza, kugira ngo babashe kwiga maze, biteze imbere kandi bahabwe impamyabumenyi.

Ahantu ubona ko hubatse inzu nyinshi kandi zegeranye, ni byiza ko inzu zisubirwamo kandi zikukwa neza ku buryo ziba zifite umutekano kandi harimo isuku kugira ngo abantu babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ishuri ubona ko ryubatse neza kandi rifite ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri ba kaminuza kugira ngo babashe kwiga, aho haba harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bibafasha kwiga kugira babashe kwiga neza.

Abanyeshuri ubona ko bahurije ahantu hamwe kugira ngo abashe kuba bakwidagadura, baririmbe babyine, ni byiza ko abanyeshuri bagira umwanya wo kwidagadura kugira ngo babashe kwiga neza kandi batsinde amasomo yabo, bitavuze ko bagumye kwiga gusa.

Abanyeshuri aho bari mu bushakashatsi bashakashaka ku ibyo biga kugira ngo babashe kubona neza ko ibyo biga ari ukuri kandi babashe kubifata, ni byiza ko abanyeshuri bagira umwanya wo gukora ubushakashatsi kandi bagahabwa ibikoresho bihagije.

Icyumba ubona ko ari icyo kuri kaminuza, ubona ko cyakira abanyeshuri ariho bafatira icyayi, ni byiza ko abanyeshuri bagira ahantu heza ho kunywera, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza no gufatira ibindi bintu bitandukanye.

Abantu ni byiza ko bakina imikino itandukanye kugira ngo bigorore ingingo, cyane cyane abanyeshuri igihe barangije amasomo yabo, bagire ahantu heza ho gukinira kugira ngo babe bagorora ingingo zabo, maze bakore n'uburyo bashobora kuba bagira umubiri wabo ukirinda indwara zitandukanye.

Mudasobwa ni igikoresho cyifashishwa cyane kandi cy'ikoranabuhanga gikora ibintu bitandukanye, aho cyifashishwa n'abanyeshuri igihe bari kwiga kugira ngo babashe gukora ubushakashatsi kandi n'ibindi bikoresho byifashishwa, mu gihe abanyeshuri bari kwiga ni byiza ko byagezwa ku banyeshuri.

Matora ni ingirakamaro kuko tuyifashisha tuyiryamaho, bityo bigatuma tugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese dushishikarizwa kuryama kuri matora, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza, kandi twirinda indwara zitandukanye dushobora guturuka kuba turyamye ahantu habi.

Abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri aho bose bari kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bose biga kandi bakiga neza n'abataje ku ishuri kugira ngo bashishikarizwe baze ku ishuri.

Ahantu ubona ko hateguwe neza harimo intebe ndetse n'ameza, ubona ko ari ahantu abantu biyakirira cyane abanyeshuri, ni byiza ko abanyeshuri nabo baba ahantu hameze neza kuko bibafasha mu myigire yabo.

Icyumba ubona ko kirimo imyenda ndetse harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye, ubona ko ari icyo umunyeshuri araramo. Ni byiza ko abanyeshuri bagira ahantu heza ho kurara kuko bibafasha mu myigire yabo igihe bari ku ishuri.

Isomero ubona ko harimo ibitabo bitandukanye bifasha abanyeshuri kugira ngo basome maze biyungure ubumenyi. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana isomero kugira ngo bahabwe ubumenyi, kuko ariho haba harimo ubumenyi bw'ibanze.

Abanyeshuri ubona ko bari kwigishwa n'umuzungu, ubona ko ari abanyeshuri ba kaminuza kugira ngo bahabwe amasomo atandukanye, azabafashe mu myigire yabo maze babashe kwiteza imbere. Ni byiza ko abanyeshuri bose, bagana ishuri kandi bagakora ubushakashatsi.

Ibyumba by'abanyeshuri ubona ko byifashishwa igihe bari gukora imyitozo ndetse bari no kwiga basubiramo amasomo. Ni byiza ko abanyeshuri ba Kaminuza bahabwa ahantu heza kandi hagutse ho gusubiramo amasomo yabo kugira ngo babashe gutsinda.

Icyumba ubona ko cyubatse neza kandi kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, aho abanyeshuri baza kwihugurira mudasobwa kandi bashaka no gukora ubushakashatsi, ni byiza ko abanyeshuri bahabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga bihagije.

Ubwiherero ubona ko ari ubwa kaminuza, aho abanyeshuri bahahurira igihe bagiye kwiherera. Ni byiza ko ubwiherero bugira isuku ihagije, kugira ngo birinde abanyeshuri kuba bahura n'indwara zitandukanye, kuko haba hahurira abanyeshuri benshi.

Ahantu ubona ko hari ibitabo byinshi kandi bipanze neza ubona ko ari isomero, ni byiza ko abanyeshuri bagira ahantu heza ho gusomera ibitabo kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi maze babashe kujijuka, ni byiza gusoma ibitabo kuko ari isoko y'ubumenyi.

Inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bwa kijyambere kandi yakira abanyeshuri batandukanye ba kaminuza kugira ngo babashe gukomeza amashuri yabo kandi banige neza batsinde, ni ibyiza ko izi nyubako ziba zubatse neza kandi mu buryo bugezweho kugira ngo bufashe abanyeshuri mu kwiga.

Ibikoresho byifashishwa mu bushakashatsi, aho ubona ari nk'abantu barimo bararirimba. Ni byiza ko dukomeza kwifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo tubashe kwiga.

Icyumba cyubatse neza, kirimo ibikoresho bitandukanye, aho cyifashishwa mu bushakashatsi, abanyeshuri ba kaminuza bacyifashisha igihe bari mu bushakashatsi, ni byiza ko abanyeshuri bahabwa ibikoresho byose bihagije igihe bari kwiga.

Ahantu harimo ibitabo bitandukanye, aho abanyeshuri babyifashisha baje gusoma kuko ibitabo ari isoko y'ubumenyi. Ni byiza ko abanyeshuri bagana amasomero kugira ngo babashe gukuza imitekerereze yabo ndetse bazamure n'ubumenyi bwabo.

Amashuri aho aba arimo intebe zihagije ndetse n'ibindi bikoresho, aho yifashishwa n'abanyeshuri ba kaminuza kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo, maze bige neza kandi batsinde.

Akabati ubona ko kifashishwa n'abanyeshuri, igihe bavuye ku ishuri ndetse n'ibindi bikoresho harimo nk'igitanda, ni byiza ko abanyeshuri bagira ahantu heza ho kurara, kuko bigira uruhare mu myigire yabo bigatuma bategura amasomo yabo neza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakira abanyeshuri ba kaminuza, kugira ngo bakomeze amashuri yabo kandi babashe kwiga neza batsinde. Ni byiza ko abanyeshuri bose barangije ayisumbuye, bakomeza n'ayisumbuye kugira ngo bakomeze kuzamura ikigero cyabo cy'ubumenyi.

Ibyumba ubona ko birabwamo n'abanyeshuri biga kaminuza ubona ko ari ibyumba bimeze neza kandi bigerekeranye, ni byiza ko abanyeshuri barara ahantu heza kuko bigira uruhare mu myigire yabo kugira ngo bige kandi batsinde neza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse neza cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bazamure ubumenyi, ni byiza ko ibi bigo bivugururwa kandi hakubakwa n'andi mashuri kugira ngo abashe kwakira abanyeshuri bahagije bityo babone uko biga neza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse neza kandi gifite ubusitani bwiza aho cyakira abanyeshuri biga kaminuza baba basoje amasomo yabo yisumbuye bakaza kuminuriza aha ngaha, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana iki kigo kugira ngo bahabwe ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyubatse mu buryo bwa kijyambere kandi mu buryo bw'amagorofa aho cyakira abanyeshuri biga kaminuza kugira bakomeze amasomo ya bo kandi bayaminuze. Ni byiza ko abanyeshuri ba kaminuza bose biga neza kugira ngo batsinde.

Icyumba cyo muri kaminuza ubona ko cyifashishwa aho abanyeshuri baba bari gukorera ibintu bitandukanye, mu gihe baba bari kwiga cyangwa bari gukora ibindi bintu kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi maze babashe kwiga neza kandi bajijuke.

Umunyeshuri bigaragara ko ari kujya ku kigo cy'amashuri, yisumbuye ya Kaminuza y'u Rwanda i Huye. Ni byiza ko abanyeshuri bose barangije amashuri bagana kaminuza kugira ngo zibashe kubitaho maze babashe kwagura imitekerereze yabo n'ubumenyi.

Icyumba ubona ko cyubatse neza kirimo intebe nziza, ubona ko cyakira abanyeshuri ba kaminuza igihe bagiye gukora inama cyangwa andi mahugurwa, kugira ngo babashe kuba bakumvikana neza kandi babashe gukora inama yabo. Nibyiza ko bagira ahantu heza ho guhurira.